Abantu benshi bateraniye mu murima, bakaba barimo guhinga mu buryo bugezweho bwa kijyambere. Bamwe bari gucukura imyobo, abandi bagashyiramo ifumbire, abandi bagashyiramo imbuto, naho abandi bakagenda bataba aho bamaze gushyira imbuto.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibintu bitandukanye ni byiza gucururiza ahantu wizeye neza ko ushobora kubona abaguzi, kubera ko iyo ukoreye ahantu hatari abaguzi ushobora guhomba bityo ugataha.

Abantu bari mu murima uhinzemo ibigori, bakaba barimo gutera umuti mu rwego rwo kugira ngo udusimba tutazabyibasira ubundi bigakoma mu nkokora umusaruro wabyo, ni byiza gutera umuti ibihingwa.

Imifuka ibiri irimo ifumbire y'imvaruganda, akaba ari ifumbire yifashishwa mu gihe barimo guhinga kugira ngo ibihingwa bizashishe, ni byiza gukoresha ifumbire nyongeramusaruro mu buhinzi bwawe kugira ngo uzabone umusaruro mwiza ushimishije.

Abagabo babiri bari mu murima uhinzemo ibigori, bakaba barimo kugenda bashyira ifumbire y'imvaruganda kuri buri kigori, mu rwego rwo kugira ngo bizakure neza bishishe bityo bizatange umusaruro mwiza ushimishije.

Etajeri ndetse na kontwari birimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buhinzi, hakaba harimo n'ibikoresho byifashishwa mu bworozi bw'inkoko. Hari imirama yifashishwa mu buhinzi ndetse n'imiti itandukanye yifashishwa mu bworozi.

Abantu bari mu murima uhinzemo ikawa, bakaba barimo kuzikorera mu rwego rwo kugira ngo zikure neza, ni byiza kwita ku ikawa zawe kubera ko ari igihingwa ngengabukungu, giteza imbere umuturage ndetse n'igihugu muri rusange.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye byifashishwa mu buhinzi, hakaba harimo imiti itandukanye yifashishwa mu kurwanya udukoko twibasiye imyaka, ndetse n'imirama yifashishwa mu buhinzi. Urugero: harimo umurama wa pavuro, uwa karoti, uw'inyanya ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Umuntu ucuruza ibikoresho byifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi arimo gusohoka mu nzu acururizamo, ni byiza gukoresha imiti yifashishwa mu kurwanya udukoko twibasira imyaka.

Ifumbire mvaruganda iri muri anvelope, akaba ari ifumbire ya DAP, ni byiza guhinga ukoresheje ifumbire mvaruganda kubera ko ibihingwa byawe bikura neza bigatanga umusaruro mwiza ushimishije.

Umuntu urimo gutera umuti intoryi mu rwego kugira ngo zikomeze gukura neza zireke gupfa. Ni byiza kwita ku bihingwa byawe ukabitera umuti, mu gihe ibyonnyi byatangiye kubyibasira mu rwego kugira ngo bizaguhe umusaruro mwiza.

Abantu bari mu murima uhenzemo ibirayi bakaba barimo gutera umuti mu rwego rwo kugira ngo bikomeze gukura neza bityo bizere bigire umusaruro mwiza ushimishije, ni byiza gutera umuti ibihingwa kugira ngo ubirinde ibyonnyi.

Umuntu urimo gupanga imifuka mu nzu murwego kugirango ayishyire kumurongo hanyuma akure akajagari mu nzu. Nibyiza gushyira ibintu byawe kumurongo ahantu aho ariho hose murwego kugirango wirinde akavuyo.

Umubyeyi w'umumama wishimye akaba arimo gutera urugemwe rw'avoka mu murima we, yishimiye ko mu minsi iri imbere azaba na we ari gusarura avoka iwe, bitamusabye kujya ku isoko kuzihaha, ni byiza gutera imbuto aho dutuye.

Akabati karimo ibintu bitandukanye byifashishwa mu buhinzi harimo imirama ya karoti, pavuro, beterave ndetse n'inyanya. Hejuru y'akabati hateretse ibikoresho byifashishwa mu kuhira bizwi nka rozwari.

Ibihaza bihinze, akaba ari ibisusa, ni byiza guhinga ibihaza kubera ko bishobora kuguha imboga mu buryo butandukanye ndetse ukabona n'ibisusa.

Ingemeri irimo ifumbire y'imvaruganda yifashishwa mu gihe barimo guhinga kugira ngo ibihingwa bizakure neza, akaba ari ifumbire yitwa IRE, ni byiza guhinga ukoresheje ifumbire nyongeramusaruro.

Inzu icururizwamo ibikoresho byifashishwa mu buhinzi ndetse no mu bworozi, harimo imiti iterwa imyaka mu gihe hari ibyonnyi byaje mu myaka, hakaba harimo imirama yifashishwa mu buhinzi, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuhira ndetse no mu gutera umuti.

Akabati karimo ibintu bitandukanye, byiganjemo imirama yifashishwa mu buhinzi. Ni byiza kwinaza imbuto ushaka guhinga, kubera ko ikura neza hanyuma ukayijyana mu murima wawe, wizeye neza ko igiye kugenda ikera.

Umurima uhinzemo imyaka itandukanye, harimo ibigori, imboga ndetse n'ibindi. Ni byiza gukora ubuhinzi kubera ko ari kimwe mu bintu gishobora guteza umuntu imbere kandi kigatuma abona ibyo kurya bitamugoye.

Amabase ateyemo imboga. Ni byiza gutera imboga mu rugo iwawe, kubera ko bituma ubona imboga bitakugoye, akaba ari byiza ko kwihatira gukora ibintu bitandukanye bishobora kudufasha kubona imboga, bidasabye kujya ku isoko.

Iduka ricuruza ibikoresho bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, harimo imiti yifashishwa mu kurwanya udukoko dutandukanye twibasira imyaka, hakaba harimo n'ibikoresho byifashishwa mu bworozi n'ibikoresho inkoko zinyweramo amazi ndetse zihererwamo n'imiti.

Abantu benshi cyane bari mu mirima ihinzemo ibigori, bose bakaba bafite ifumbire mvaruganda barimo kugenda banyanyagiza ku bigori, mu rwego rwo kugira ngo bizakure neza bishishe bitange umusaruro mwiza bifuza, ni byiza gukoresha ifumbire nyongeramusaruro.

Utubati turimo utujerekani twinshi cyane tw'amoko atandukanye turimo ibintu bitandukanye, akaba ari utubati twubatse mu buryo bwiza bugezweho, ni byiza gupanga ibikoresho byawe mu tubati kubera ko biroroha kumenya umutekano wabyo.

Umuntu urimo gutera inyanya umuti, mu rwego rwo kugira ngo zizere neza, ni byiza kwita ku bihingwa byawe ukajya ubitera umuti kubera ko iyo ubiteye umuti ibyonnyi ntabwo bibyibasira.

Umurima uhinzemo ibigori, ubona ko byapfuye byanze kwera neza. Hakaba harimo ifumbire, barahinzemo bigaragara ko bagiye guhingamo indi mbuto. Ni byiza kwita ku bihingwa byawe kugira ngo bizere neza, hanyuma biguhe umusaruro ushaka.

Akabati gateretsemo utujerekani turimo ibintu bitandukanye, akaba ari akabati keza cyane kagezweho. Ni byiza gupanga ibintu byawe mu buryo bwiza bugezweho kubera ko birakorohera kumenya aho buri kimwe giherereye.

Umukobwa uhetse igikoresho cyifashishwa mu gihe barimo gutera umuti imyaka arimo kureba inyanya ze ko zirimo gukura neza mu rwego kugira ngo zitazaborera hasi, ni byiza gutera umuti ibihingwa.

Umugore wasukishije imisatsi, akaba yambaye ishati y'amaboko maremare ya karokaro, afite ingemeri mu ntoki ahagaze mu muri w'ibigori arimo kugenda ashyira ifumbire nyongeramusaruro kuri buri kigori mu rwego kugira ngo bikomeze gukura neza.

Akabati karimo ibintu bitandukanye byifashishwa mu buhinzi, harimo umurama wa karoti, umurama w'inyanya, umurama w'ibitunguru ndetse n'ibindi, akaba ari byiza guhinga imbuto ndetse n'imboga.

Umugabo uri mu murima uhinzemo imboga, akaba arimo gutera umuti mu rwego rwo kugira ngo zikomeze gukura neza hanyuma zizatange umusaruro mwiza ushimishije, ni byiza kwita ku bihingwa mu rwego rwo kugira ngo bizakure neza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bakaba barimo gukora igikorwa cy'umuganda mu rwego rwo kugira ngo bagirire isuku aho batuye, gukora umuganda ni byiza cyane kubera ko byubaka Igihugu kandi bikanatuma abaturage baba ahantu heza hasukuye.

Umugabo uhetse igikoresho cyifashishwa mu gutera umuti, arimo gutera umuti ibihingwa bye mu rwego rwo kugira ngo bikomeze gukura neza, hanyuma azabone umusaruro mwiza ushimishije, ni byiza kwita ku bihingwa byawe.

Iduka ricururizwamo ibikoresho byifashishwa mu buhinzi ndetse no mu bworozi, hakaba harimo imirama itandukanye harimo karoti, inyanya ndetse na pavuro, hakaba hari n'imiti yifashishwa mu kurwanya udukoko twibasira ibihingwa.

Igiti cy'ipapayi kiriho amapapayi menshi cyane, hakaba hariho amapapayi amwe n'amwe yeze ubona ko akwiye gusarurwa. Ni byiza gusarura amapapayi yeze kubera ko iyo utinze kuyasarura arabora.

Umurima uhinzemo imyumbati mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ni imyumbati myiza irimo gukura neza ku buryo uyibonye wese ashimishwa n'ukuntu yitabwaho, ni byiza kwita ku gihingwa cy'imyumbati.

Umugabo wambaye ishati y'umweru uhagaze mu murima uhinzemo imboga za dodo, akaba arimo kureba niba zeze zigeze mu gihe cyo gusarurwa, hepfo y'umurima uhinzemo idodo hari urutoki rwinshi.

Imifuka irimo ingemwe z'icyayi ubona ko zikuze zigeze mu gihe cyo guterwa hanyuma zikaba zashyizwe mu mifuka kugira ngo zijyanwe mu mirima guterwa, ni byiza gufata ingemwe zaku ukazikura muri pipinyeri ukazijyana kuzitera.

Umurima uhinzemo ibintu bitandukanye, harimo ibihaza, inyanya, ndetse n'ibigori, ni byiza guhinga ibihaza kubera ko bigira umumaro mwinshi cyane, cyane cyane mu kugabanya indwara ziterwa n'umuvuduko w'amaraso.

Umurima uhinzemo intoryi, akaba ari intoryi zitangiye kuzamuka ubona ko zishishe. Ni umurima uherereye ahantu mu gikombe ubona ko nta ngo z'abantu zihatuye.

Umurima uhinzemo ikawa, ikawa akaba ari igihingwa ngengabukungu, giteza imbere umuturage muri rusange ndetse n'Igihugu, ni byiza kwitabira guhinga ikawa kuko ari nziza cyane.

Abantu barimo kubumba amatafari, mu rwego kugira ngobabone uko bubaka inzu. Ntamuntu ushobora kubaka inzu adafite ibikoresho bihagije byo kubakisha niyo mpamvu mbere yo kuzamura inzu, ugomba kubanza gutegura amatafari.

Imbuto za avoka ziri mu gakoresho kameze nk'agatebo, zikaba ari avoka nziza ubona ko ziryoshye, ni byiza guhinga avoka kubera ko zishobora kuguha amafaranga ndetse ukanazirya iwawe bitagusabye kuzihaha ku isoko.

Igiti kirimo amapapayi menshi cyane ahishije, ubona ko ageze mu gihe cyiza cyo gusarurwa ubundi akaribwa. Kurya amapapayi ni byiza kubera ko bituma umuntu agira umubiri mwiza kandi akagira igogora rikora neza.

Umurima uhinzemo imyumbati ubona ko yanze gukura neza kubera ikibazo cy'ifumbire nkeya, ni byiza guhinga ukoresheje ifumbire ihagije, mu rwego rwo kugira ngo ibihingwa byawe bikure neza bityo uzabone umusaruro mwiza.

Umurima uhinzemo ibishyimbo ubona ko byanze gukura, akaba ari ibishyimbo bitafumbiwe, si byiza guhinga warangiza ntushyiremo ifumbire ihagije kubera ko uba urimo kuruhira ubusa.

Ahantu hahinze icyayi ubona ko kimeze neza, icyayi ni igihingwa ngengabukungu gishobora guteza imbere umuturage ndetse n'Igihugu muri rusange, akaba ari byiza kukibungabunga kuko gifite akamaro kanini.

Abaturage bateraniye ahantu hamwe, bakaba bose bafite ingemwe z'avoka ubona ko bishimye, bakaba bagiye gutera imbuto z'avoka mu rwego rwo kugira ngo na bo mu minsi iri imbere bazajye barya voka, bitabasabye kujya kuzigura ku isoko.

Umurima uhinzemo imyumbati ndetse n'ibishyimbo, akaba ari ibishyimbo ubona ko birimo kuzamuka ariko bitatewe ifumbire mvaruganda. Ni byiza gukoresha ifumbire mvaruganda kubera ko ituma ibihingwa byawe bishisha bigakura neza.

Umugabo uhagaze mu murima w'ibigori, akaba afite ikigori mu ntoki arimo kukivovora, ikindi kiri mu mufuka w'umupira. Ni ngombwa gusarura ibigori ukajya kotsa, kubera ko ibigori byokeje biraryoha.

Umurima uhinzemo imyumbati y'imiribwa akaba ari imyumbati ikiri mitoya itaragera igihe cyo gusarurwa, hepfo y'umurima uhinzemo imyumbati hari igishanga gihinzemo ibigori byumye ubona ko bigeze mu gihe cyo gusarurwa.

Umurima uhinzemo imigozi y'ibijumba, hakaba harimo n'ibiti byagereveriya, ubutaka burumye cyane ubona ko ari mu gihe cy'izuba, si byiza guhinga imyaka yawe mu gihe cy'izuba kandi utizeye neza ko aho wahinze uzabona amazi yo kuhira.

Umurima uhinzemo insina z'inyamunyo, akaba ari insina nziza cyane zirimo kwitabwaho mu rwego rwo kugira zizakure neza bityo zitange umusaruro mwiza ushimishije, ni byiza gusasira insina zawe kugira ngo igihe imvura yaguye amazi azage afatamo.

Ikawa nziza zeze cyane ubona ko zitukuye zigeze mu gihe cyo gusarurwa, ni byiza gusarura ikawa zeze neza kuko nibwo ziba ziryoshye.

Umurima uteyemo inyanya zikaba ari inyanya zeze cyane zatukuye zigeze mu gihe cyiza cyo gusarurwa, ni byiza guhinga inyanya kuko zifite intungamubiri nyinshi zitandukanye zituma umubiri wa muntu uhora umeze neza.

Umurima uhinzemo inanasi nyinshi, ni byiza guhinga inanasi kubera ko zigira umutobe ufite intungamubiri ku buzima bwa muntu kandi umuntu waziriye ahorana akanyamuneza ndetse akabaho mu buryo bwiza.

Umurima uhinzemo ikahwa, ubona ko zakuze cyane zimaze igihe kirekire, ni byiza kubungabunga no kwita ku ikahwa kubera ko ari igihingwa cyiza gishobora guteza umuntu imbere, kandi kigateza n'igihugu imbere muri rusange.

Abakobwa babiri bishimye barimo guseka, bose bafite inanasi mu ntoki ubona ko ari inanasi zeze neza zatukuye. Ni byiza gusarura inanasi zawe ari uko zeze neza kuko aribwo ziba zifite umutobe mwiza uryoshye.

Umurima uhinzemo icyayi, iruhande rwacyo hakaba hari ibiti birebire. Icyayi ni igihingwa ngengabukungu, giteza imbere umuturage ndetse n'igihugu. Ni byiza guhinga icyayi.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hakaba handitseho amagambo agaragaza serivisi zihatangirwa, ni byiza gushyira icyapa kigaragaza serivisi utanga iruhande rw'aho ukorera kubera ko abaza bakugana biraborohera.

Inzu ibamo inkoko harimo inkoko nyinshi cyane zitera amagi, hakaba harimo udukoresho zinyweramo amazi ndetse banaziheramo ibyo kurya mu rwego kugira ngo zikomeze gukura no kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ingurube zirimo kunywa amazi akaba ari ingurube eshanu zakuze neza kubera ko zitabwaho cyane, ni byiza kwita ku ngurube kubera ko zigira inyungu mu gihe gitoya.

Umukobwa urimo kugaburira inkoko kugira ngo zirye ubundi zikure neza, inyinshi muri zo akaba ari amasake, ni byiza gushora umushinga w'inkoko kubera ko zikura vuba kandi zitanga inyungu mu gihe kidatinze.

Icupa rifunze neza, rikaba rifunikishije ishashi. Ni byiza kubika ibintu byawe ahantu hizewe, kubera ko bituma ubudahangarwa bwabyo bwizerwa.

Icupa ryiza rifunze neza, ubona ko umuti ubitsemo udashobora kwangirika. Ni byiza kubika imiti ahantu heza hizewe, kubera ko uwo muti ukomeza kugira ubuziranenge bwiza, bwizewe, kandi ukazakoreshwa ugakora neza.

Umurima uhinzemo ibigori, bikaba byareze ndetse bikanasarurwa, harimo abantu barimo guhinga mu rwego rwo kugira ngo bahingemo indi mbuto, hepfo yaho hari igishanga gihinzemo umuceri.

Umugore uri mu murima akaba arimo gutarasa amaterasi mu buryo bwa kijyambere. Ni byiza guhinga mu buryo bugezweho kuko ari bwo ubona uko wita ku bihingwa byawe kandi ukabona umusaruro mwiza ushimishije.

Ibitoki bicuruzwa ndetse n'ibirayi, ibitoki bikaba bimaze igihe ubona ko byatangiye kwangirika, si byiza kugura ibitoki byangiritse kubera ko biba byaratakaje uburyohe.

Abantu barimo guhinga, bakaba bari mu murima urimo insina, ni byiza gukora ubuhinzi kubera ko bushobora gutuma ubona ibigutunga ndetse ukabona n'amafaranga yo kwiteza imbere.

Abantu barimo gusarura umusaruro wabo bawushyira mu mifuka, akaba ari igihingwa cy'ingano basaruye. Ni byiza guhunika imyaka yawe kubera ko bituma utandukana n'ikibazo cy'inzara.

Umubyeyi w'umumama urimo guhinga akaba arimo guhinga mu murima uhinzemo ibigori, bigaragara ko ibigori yarabihinze byanga kwera hanyuma akaba yarafashe umwanzuro wo kwihingiramo ibindi bihingwa, ni byiza kwita ku bihingwa byawe kugira ngo bitazaguhombera.

Abantu barimo gutonjora ibyatsi mu murima, mu rwego rwo kugira ngo bitegure igihe cy'ihinga. Ni byiza gutegura ubutaka bwawe, mu gihe witegura gushyira imbuto mu murima, mu rwego rwo kugira ngo icyo gihe nikigera, bitazakugora.

Umukobwa uri mu murima akaba arimo guhinga, mu buryo bwiza bugezweho bwitwa kijyambere, ni byiza guhinga mu buryo bwiza bugezweho, kubera ko nibwo ubona umusaruro mwiza ushimishije, hanyuma no kubikorera bikoroha.

Abantu benshi bari mu murima bakaba barimo guhinga, ubona ko ari ishyirahamwe, ni byiza guhuza imbaraga mugahingira hamwe kuko gukorera ibihingwa byanyu biroroha kandi aba ari byiza kuko bituma musabana.

Abagabo babiri bari mu rutoki, bose bakaba bafite amasuka, barimo guharura bategura neza ahantu ho guhinga insina, ubuhinzi ni kimwe mu bintu bishobora guteza umuntu imbere.

Abantu bateraniye hamwe bagakora igikorwa cyo gusarura ibishyimbo, nyuma yaho bakaganira bareba neza aho igikorwa cyabo kirimo kwerekeza mu rwego rwo kugira ngo bamenye niba hari ibyakongerwamo.

Abantu bari mu murima barimo gukorera imbuto zabo, mu rwego kugira ngo babungabunge ubuzima bwazo, ni byiza kwita ku bihingwa byawe kubera ko umunsi ku munsi uko urushaho kubyitaho niko bikura neza, hanyuma bikazaguha umusaruro mwiza ushimishije.

Abantu bari mu murima, bakaba barimo guhinga bategura intabire mu rwego rwo kugira ngo igihe cy'ihinga nikigera, bazahingire rimwe n'abandi na bo babone umusaruro. Guhinga ni byiza kandi bikaba akarusho uhingiye ku gihe.

Umusore wambaye ijere ndetse n'ikabutura hamwe n'ingofero n'inkweto za bododaboda afite isuka arimo guharura umuhanda, ni byiza ko duharura inzira kugira ngo tujye tunyura ahantu heza hasukuye.

Abantu bari ahantu hacururizwa imboga, hari abarimo kugura karoti ndetse n'abarimo kugura amashu, ni byiza kurya imboga kubera ko zituma umuntu agira ubuzima bwiza bityo akazaramba ku Isi.

Abantu bari mu rutoki bakaba barimo gukora akarima k'igikoni ko guhingamo imboga, urutoki barimo guhingamo ruteyemo ndetse n'ibigori, ni abantu batatu. Babiri barimo guhinga, undi ari kubareberera.

Umugabo wikokoye akaba afite isuka mu ntoki ze arimo guhinga mu rwego rwo kugira ngo yiteze imbere bityo abone n'ibyo kurya, guhinga ni ingenzi kubera ko ari kimwe mu bintu bifitiye igihugu umumaro.

Imifuka myinshi cyane ipanze akaba ari imifuka irimo umuceri, ni byiza guhunika ibyo kurya kubera ko bituma wizera neza ko nta kibazo cy'inzara kizagera iwawe.

Imifuka myinshi cyane, y'ibiro ijana ikaba irimo ingano. ingano ni bimwe mu binyampeke ,umuntu ashobora gukoramo ibintu byinshi bitandukanye cyane cyane imigati. Ni byiza guhinga inmgano.

Umubyeyi urimo kugosora ibigori, akaba arimo kubikora mu rwego kugira ngo abisukure hanyuma aze kubihunika bifite isuku. Ni byiza kwita ku myaka yawe mu rwego rwo kugira ngo ubungabunge ubuziranenge bwayo.

Umurima uhinzemo imyumbati y'imiribwa, guhinga imyumbati ni byiza kubera ko bishobora kuguha amafaranga kandi bigatuma iwawe hatagera inzara, guhinga ni byiza kubera ko ubuhinzi ni ingenzi mu buzima bwa muntu.

Abantu benshi cyane bateraniye iruhande rw'ubuhunikiro bw'imyaka, akaba ari imifuka myinshi cyane irimo umusaruro wabo w'ibyo basaruye, ni byiza gusarura, mugasarurira hamwe mu rwego rwo kugira ngo mutazapfusha ubusa umusaruro.

Isoko ricururizwamo ibitoki, harimo ibitoki byinshi cyane by'amoko atandukanye; hakaba harimo abantu baje gusura isoko bareba niba ibitoki bizanwa mu isoko biba byujuje ubuziranenge.

Imifuka myinshi cyane iteretse ahantu hamwe, ikaba irimo imyaka itandukanye, hari umufuka urimo ibishyimbo by'uruyumba, umufuka urimo ibishyimbo by'ibinyarwanda, umufuka urimo ibigori, n'umufuka urimo ingano.

Amasaka arunze ku rubaraza rw'inzu mu rwego kugira ngo yume hanyuma babone kuyahura, ni byiza gusarura amasaka yawe yeze neza kuko ari bwo atanga umusururu mwiza uryoshye.

Isoko ricururizwamo inyanya, hakaba harimo ibitebo byinshi cyane byuzuyemo inyanya nziza zihishije z'umutuku. Ni byiza gusarura inyanya zeze kubera ko ari zo ziryoha kandi zigira isosi nziza itukuye.

Imifuka miremire ijyamo ibiro ijana, ikaba irimo imyaka itandukanye. Harimo ibishyimbo, ingano, ibigori ndetse n'amasaka. Ni byiza guhunika ibishyimbo cyangwa se imyaka yawe mu mifuka.

Imifuka myinshi cyane irimo ibirayi, ikaba ipanze mu isoko ricururizwamo ibiribwa, hari abantu benshi cyane baje guhaha ibyo kurya, hakaba hari ibijumba ndetse n'ibitoki.

Igishanga gihinzemo umuceri, akaba ari umuceri ubona ko utangiye kwera, ni byiza kwita ku muceri kubera ko ukura neza, hanyuma ukabona amafaranga meza wifuza bityo ugasagura n'uwo kurya mu rugo.

Abantu barimo gutunganya ibigori kugira ngo babyanike, ubundi bizume neza maze bihungurwe bityo bivemo imbuto nziza ndetse ibisigaye bizavanywemo ifu nziza y'akawunga.

Igiti cya avoka giteye ku muhanda w'igitaka, akaba ari igiti giteye ku mukingo. Ni byiza gutera imbuto za avoka, kubera ko avoka igira umumaro mu buryo butandukanye. Haba mu gutuma uruhu rumera neza, ndetse no mu gutuma umuntu ahorana ubushake bwo kurya.

Umurima uhinzemo ibihaza by'ibikayote, kayote akaba ari ibihaza byiza cyane ku buryo umuntu wabiriye atarwara umuvuduko w'amaraso kandi bituma igogora rye rikora neza bityo akagira ubuzima bwiza.

Ishyamba ririmo ibihuru ndetse n'ibiti, akaba ari ibiti ubona ko birimo gukura neza. Ni byiza gutera ishyamba kubera ko rirwanya isuri kandi rituma haboneka ibikoresho byinshi bitandukanye harimo inkwi, intebe, ibitanda ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umurima uhinzemo ibigori ubona ko byeze ushobora kubisarura ukajya kubiteka cyangwa se ukabyotsa, ni byiza kureka ibigori byawe bikera, ubundi ukabisarura byeze neza kuko nibwo biba biryoshye cyane.

Ingemwe z'inturusu ziri mu bihoho zikaba zarakuze zigeze mu gihe cyo guterwa. Ni byiza kwinaza ingemwe zawe neza ukazitaho neza uko bikwiriye kugira ngo zizakure neza hanyuma nujya kuzitera uzabe wizeye neza ko zizakura neza uko ubyifuza.

Igiti cy'imyembe, kirimo imyembe ubona ko yeze igeze mu gihe cyo gusarurwa, ni byiza kurya imyembe kubera ko umuntu wayiriye ahorana akanyamuneza kandi agira ubuzima bwiza.

Umurima uhinzemo ikawa ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye. Si byiza kuvanga ikawa n'ibindi bihingwa kubera ko birazona bityo zigakura nabi, hanyuma ukazabona umusaruro utari mwiza.

Ibiti bya sipure biteye ku muhanda. Ni ibiti byiza cyane bikomera ku buryo iyo ubikozemo igikoresho kiba gikomeye cyane kandi umumaro w'ibiti ni ugutuma birwanya isuri ndetse no gutuma haboneka umwuka mwiza wo guhumeka.

Umurima uhinzemo ibigori, iruhande rwawo hakaba hahinze igiti cy'umwembe. Umwembe ni igiti cyera imbuto nziza ziryoha ku buryo umuntu waziriye aba ameze neza cyane.

Ingemwe z'amaronji akaba ari ingemwe zakuze ubona ko zigeze mu gihe kiza cyo guterwa. Ni byiza kwinaza ingemwe zawe neza ukazitaho uko bikwiriye kugira ngo uzazitere wizeye neza ko zizakura bitagoranye.

Umurima uhinzemo intoryi, akaba ari intoryi zisasiwe, ni byiza kwita ku bihingwa byawe cyane cyane intoryi, ukazuhirira, ukazitera umuti, ndetse ukazisasira, kubera ko nibwo zitanga umusaruro mwiza ushimishije kandi mwinshi.

Umurima uhinzemo insina ndetse n'ibigori, hakaba hari n'urubingo ruhinze iruhande rw'umurima. Si byiza kuvanga ibihingwa kubera ko bimwe bikura mu buryo budakwiriye.

Ishyamba ririmo ibihuru ndetse n'ibiti bikuze, ubona ko ari ibihuru bishobora kwifashishwa mu gukora imiti itandukanye, ivura indwara nka rubagimpande, agatembwe, igituntu, ndetse n'ibindi.

Ishyamba ririmo ibiti byiza birebire bya Kinyarwanda, akaba ari ibiti ubona ko bikurura umuyaga ndetse n'amahumbezi, ni byiza gutera ishyamba kuko rirwanya isuri, kandi rituma haboneka umwuka mwiza wo guhumeka.

Igiti kigaburirwa inka kugira ngo zongere umukamo, hari ibyatsi bigaburirwa amatungo cyane cyane inka, kugira ngo zigire umukamo uhagije.

Igiti cy'ipera giteye ku muhanda, akaba ari igiti kitaratangira kwera. Ni byiza gutera imbuto kubera ko zituma umuntu agira ubuzima bwiza cyane.

Ibihuru byakuze cyane, ubona ko bishobora kuba indiri y'imibu cyangwa se inyamaswa, si byiza kurekera ibihuru aho dutuye, kubera ko bishobora kuduteza akaga.

Umurima uhinzemo ibikayote, kayote ni imboga nziza cyane ziryoha, kubera ko umuntu waziriye ntashobora kurwara umuvuduko w'amaraso, ni byiza ko abantu bose bakitabira guhinga kayote, kubera ko ari imboga nziza ziramba kandi ziryoha.

Isambu irimo imigwegwe ndetse n'ibiti hamwe n'ibindi bihuru. Si byiza kureka ubutaka bwawe bukazamo ibihuru kubera ko bishobora kuba indiri y'imibu cyangwa se ubuturo bw'inyamaswa hanyuma zikajya zangiza abaturage.

Igiti cy'avoka giteye iruhande rw'umuhanda, kikaba giteye mu murima urimo insina ndetse n'ibigori. Iruhande rwacyo hakaba hanyuze ipoto ry'amashanyarazi rijyana umuriro mu ngo zihaturiye.

Ibihuru byinshi cyane ubona ko biteye ubwoba. Si byiza kureka ibihuru, aho dutuye kubera ko bishobora kuba intiri y'imibu ,ubuturo bw'inyamaswa ndetse n'ubwihisho bw'ibisambo.

Umurima uhinzemo amashu hakaba harimo abagabo babiri barimo kuyuhira mu rwego kugira ngo akomeze gukura neza hanyuma bazabone inyungu nyinshi ishimishije, hakurya hakaba hari igishanga gihinzemo umuceri.

Umurima uhinzemo imboga za dodo, akaba ari imboga nziza cyane zishishe ubona ko zafumbiwe zikuhirirwa ndetse zikanasasirwa, ni byiza kwita ku mboga kubera ko zikura neza.

Umurima uhinzemo urusenda, ni byiza kurya urusenda kubera ko rutuma amaraso atembera neza mu mubiri kandi ukanagira ubushake bwo kurya, akaba na none ari ngombwa kubera ko rwongera akanyabugabo.

Imiteja isutse ku gitenge, akaba ari imiteja ubona ko yeze neza igeze mu gihe cyiza cyo kuribwa. Ni byiza kurya imboga z'imiteja kubera ko ziraryoha cyane kandi zifite intungamubiri.

Umurima uhinzemo karoti, akaba ari karota zakuze neza ubona ko zishishe, zikaba zarafumbiwe zikuhirirwa, zigaterwa n'umuti. Ni byiza kwita ku bihingwa byawe kubera ko bikura neza hanyuma ukazabona umusaruro mwiza.

Ibitunguru byinshi cyane bisutse ku ishitingi, akaba ari ibitunguru by'ibijumba, ni byiza kurya ibitunguru kubera ko umuntu wabiriye, ahorana akanyamuneza kandi iyo wabikarangishije ibiryo, ibiryo byawe biraryoha.

Ingemwe z'avoka ziri mu bihoho, ni byiza gutera imbuto z'avoka iwawe kubera ko bituma ubona imbuto mu buryo bwiza kandi buguhendukiye utiriwe ujya kuzigura ku isoko kandi avoka ni nziza kuko umuntu waziriye agira ubuzima bwiza.

Indabo z'amoko atandukanye zikaba zarakuze cyane ubona ko zitabwaho cyane zikuhirirwa ndetse zikanafumbirwa. Ni byiza kwita ku ndabo kubera ko zituma umuharuro wawe usa neza, hanyuma abantu bose bahageze bagatangara bitewe n'ukuntu uhitaho.

Umurima uhinzemo ibinyomoro, akaba ari ibinyomoro birimo gukura neza ubona ko byafumbiwe, biterwa umuti, byasasiwe ndetse bikanuhirwa, ni byiza kwita ku binyomoro kuko ari bimwe mu bintu bituma umuntu agira amaraso menshi ahagije.

Urugemwe rwa avoka ruhinze kandi rusasiye, ubona ko rurimo gukura neza mbese ruzatanga umusaruro mwiza witezwe, ni byiza gusasira ingemwe zawe kugira ngo zizakure neza kandi nujya uzuhira amazi azajye amaramo igihe.

Indabo zakuze neza ubona ko zitabwaho, zikaba zivomererwa bakazicunga neza ndetse bakanazishyiraho ifumbire. Ni byiza kwita ku ndabo, kubera ko zikura neza, bityo zikagaragara neza.

Umurima uhinzemo ibibiringanya. Akaba ari bimwe mu bintu biryoha cyane bimeze nk'intoryi. Birasasiye, hari umuntu uhagaze iruhande rwabyo arimo kugenda atembera mu murima, areba ko birimo gukura neza.

Umufuka urimo insenda nyinshi cyane za piripiri, ni insenda z'umuhondo, kurya urusenda ni byiza kubera ko rutuma ugira akanyabugabo kandi ugahorana ubushyuhe mu mubiri butuma amaraso atemba neza.

Umubyeyi w'umumama uhagaze imbere y'akarima k'igikoni, arimo kureba imboga ze ko zakuze neza, ni byiza kubaka akarima k'igikoni mu rugo iwawe kubera ko ubona aho utera imboga bityo ugacikana no kongera guhaha imboga ukundi.

Umurima uhinzemo pavuro, ubona ko zatangiye kwera. Ukaba urimo isaso ryiza, rihagije, rituma imvura iyo iguye cyangwa se iyo buhiye amazi afatamo bityo zigakura neza.

Umurima uhinzemo imboga za dodo, akaba ari imboga ubona ko zirimo gukura neza zitoshye, ni byiza gufumbira ubutaka ndetse ukanahamena amazi ahantu wahinze imboga mu rwego rwo kugira ngo zizajye zikura neza zitoshye.

Indabo nziza ziteye iruhande rw'umucaca, akaba ari indabo ubona ko zarabye zigeze mu gihe cyo gusaza, ni byiza kwita ku ndabo ukajya uzuhirira kubera ko iyo imvura igwa cyangwa se ukazuhirira ntabwo izuba rishobora kuzangiza.

Isoko ricururizwamo imboga harimo beterave, karoti ndetse n'ibibiriganya, ni byiza kurya imboga no kurya beterave kubera ko zongera amaraso.

Karoti nyinshi cyane zirunze hasi, iruhande rwazo hakaba hari n'ibinyomoro, ni byiza cyane kurya karoti kubera ko umuntu urya karoti ahora afite ubuzima bwiza, cyane cyane ko amaso ye ahora areba neza.

Igiti cy'ipera kirimo gukura ubona ko ari mu gihe cy'izuba, si byiza gutera imbuto zawe mu gihe ari ku zuba hanyuma ukajya wibagirwa kuzivomerera amazi kubera ko zikura nabi.

Umuntu uhagaze mu murima uhinzemo ibiti bya avoka, akaba arimo kugenzura areba ko ziri gukura neza nta byonnyi byazijemo mu rwego kugira ngo niba bihari ashake imiti atereho hakiri kare.

Avoka ubona ko zeze, zikaba ari avoka nziza z'imbangurizanyo ni byiza guhinga avoka kubera ko iyo uzifite iwawe zishobora kuguha amafaranga kandi ukabona n'imbuto zo kurya bityo ukagira ubuzima bwiza.

Indabo nziza cyane z'amoko atandukanye, ubona ko zituma urugo rugaragara neza, hari irembo risohoka, ba nyir'urugo banyuramo mu gihe baje mu rugo cyangwa se no mu gihe bavuye mu rugo.

Ababyeyi babiri barimo gukorera imboga mu karima k'igikoni, akarima k'igikoni akaba ari ikintu kiza cyane kubera ko kagufasha kubona imboga bidasabye kujya ku isoko ahubwo ukajya uzibona mu rugo iwawe.

Agatoki ka kamara gahiye neza ku buryo umuntu wese wakarya yakwishimira kurya igitoki. Si byiza kurya igitoki kidahiye kubera ko kiba kibishye, ahubwo buri wese akwiye gutegereza igitoki cye kigashya neza.

Igiti cya avoka giteye iruhande rw'igipangu kirimo avoka nkeya, ubona ko cyakuze kimaze igihe kinini, kiriho amababi makeya, izuba ryaravuye none yarahungutse.

Umugabo uri mu murima uhinzemo ibinyomoro, arimo kubyitegereza areba niba birimo gukura neza, mu rwego kugira ngo niba hari ibyonnyi byatangiye kubyibasira, abikureho bityo bizakomeze gukura neza, bimuhe umusaruro mwiza yifuza.

Umurima uhinzemo ibigori ndetse n'ibishyimbo, hakaba harimo umubyeyi w'umumama urimo gukaciriza mu rwego rwo kugira ngo akuremo ibyonnyi, ni byiza kwita ku bihingwa byawe, ukabikorera neza kugira ngo bizere neza.

Ururabo ruteye iruhande rw'umuhanda, iruhande rwarwo hakaba hari umucaca, ni byiza gutera indabo ku muharuro kubera ko zituma hagaragara neza bityo abantu bahaje bakahishimira.

Umurima uhinzemo inyanya mu buryo bwa kijyambere, akaba ari inyanya nziza ubona ko zizungura nyirazo, ni byiza guhinga mu buryo bugezweho kubera ko nibwo ubona inyungu nziza kandi nyinshi.

Abantu barimo gukorera akarima k'igikoni mu rwego kugira ngo imboga bateyemo zikure neza hanyuma bazajye babona imboga zo kurya bitabagoye. Ni byiza kubaka akarima k'igikoni iwawe kubera ko gafata ubutaka buto kandi kagatanga umusaruro mwiza ushimishije.

Indabo ziteye mu busitani zikaba zarakuze cyane zimeze nk'ibiti, ziteye iruhande rw'inyubako yubakishije amatafari ahiye, ni byiza kwita ku ndabo kugira ngo zikure neza hanyuma aho ziteye hase neza cyane.

Isoko ricururizwamo imbuto zitandukanye: imyembe, amatunda, indimu ndetse n'ibindi. Ni byiza kurya imbuto kubera ko umuntu waziriye agira ubuzima bwiza, kandi akazarama akamara ku isi igihe kirekire.

Isoko ricururizwamo imbuto z'amoko atandukanye, harimo amatunda, indimu, amaronji, imyembe, ibinyomoro, imineke ndetse na wotameroni. Kurya imbuto ni byiza.

Umubyeyi w'umumama uhagaze mu nzu ahingamo ibihumyo, akaba arimo kubitera umuti mu rwego kugira ngo bikure neza hatazagira udukoko tubyibasira. Ni byiza guhinga ibihumyo kubera ko bishobora kuguteza imbere.

Umurima uhinzemo amashu akaba ari amashu meza ubona ko yitabwaho akavomererwa ndetse akanasasirwa, ni byiza kwita ku mboga zawe kubera ko ni bwo zikura neza bityo bikazaguha umusaruro mwiza ushimishije.

Umurima uhinzemo karoti ubona ko zeze neza zigeze mu gihe cyo gusarurwa. Ni byiza kurya karoti kubera ko umuntu waziriye ahorana ubuzima bwiza kandi aba afite ubushobozi bw'uko adashobora kurwara amaso ugereranyije na wa muntu utarya karoti.

Indabo ziteye ku muhanda akaba ari indabo z'umutuku ubona ko zitakuze neza bisa nkaho zitahawe ifumbire ndetse ngo zuhirirwe kugira ngo zikure neza, igihe wateye indabo ni byiza ko uzikurikirana.

Imboga z'amoko atandukanye: amashu, karoti, intoryi, ibitunguru ndetse n'ibindi. Ni byiza kurya imboga kubera ko zifite intungamubiri zitandukanye ziganjemo kurinda indwara, cyane cyane karoti zituma umuntu amaso ye ahora areba neza.

Abantu bari mu murima uhinzemo intoryi bakaba barimo kuzisarura, akaba ari umugore n'umugabo ndetse n'umwana, barishimye cyane banejejwe n'ukuntu intoryi zabo zitangiye kwera zikiri ntoya kandi zikera intoryi nziza cyane.

Umurima uhinzemo inyanya, akaba ari inyanya nziza cyane zeze zatukuye, ubona ko zigeze mu gihe cyiza cyo gusarurwa. Ni byiza kwita ku nyanya zawe, kubera ko ni bwo ziguha umusaruro mwiza ushimishije.

Umukobwa ufite ibinyomoro mu ntoki ze, akaba ari ibinyomoro bihiye ubona ko bigeze mu gihe cyiza cyo kuribwa, ni byiza gusarura ibinyomoro bihiye kubera ko nibwo biba biryoshye bitandukanye n'uko wabisarura ari bibisi ubundi ukabitara.

Uruboga rw'urushu, akaba ari uruboga rwiza cyane rwakuze ubona ko rwitaweho cyane, rukuhirirwa rukavomererwa, rugaterarwa umuti ndetse rukanafumbirwa. Iruhande rwarwo hakaba hateye pavuro.

Indabo ziteye mu busitani buri ku muhanda, akaba ari umuhanda ushashemo amabuye, ni byiza kubaka umuhanda warangiza ugasasamo amabuye kubera ko nibwo imodoka zinyuramo hatarimo ubunyerere.

Amashu ubona ko amaze igihe kinini aciwe, ibibabi byayo bikaba byaratangiye kuma, si byiza gusarura amashu warangiza ukayabika igihe kirekire kubera ko atangira gutakaza ubudahangarwa bityo akaba yabora.

Imbuto z'amoko atandukanye, harimo ibinyomoro, imyembe, indimu ndetse n'amaronji. Kurya imbuto ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi kubera ko zituma umuntu abaho igihe kirekire.

Ubusitani burimo umucaca, urimo gukura neza, hakaba harimo n'indabo z'amoko atandukanye. Ni byiza gushyira ubusitani aho dutuye, kubera ko butuma hagaragara neza, bityo hagasa mu buryo buhebuje.

Umubyeyi urimo gucuruza ibinyomoro, ibinyomoro akaba ari imbuto nziza umuntu arya bityo bikamwongerera amaraso hanyuma akagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Igiti cyakuze cyane gishishe ubona ko ari igiti cya avoka. Ni byiza gutera urubuto rwa avoka kubera ko iyo rweze ubona imbuto zo kurya bityo ukarwanya imirire mibi iwawe kandi ukagira ubuzima bwiza.

Imbuto z'ibinyomoro ndetse na watermellon, kurya ibinyomoro ni byiza cyane kubera ko umuntu wabiririye, agira amaraso meza mu mubiri kandi menshi ahagije ku buryo amaraso atemba atembera mu mubiri neza.

Umukobwa uri mu murima w'amatunda, arimo kureba niba amatunda ye arimo gukura neza, mu rwego rwo kugira ngo niba hari ibyonnyi birimo kuyibasira atangire ashake umuti hakiri kare, ni byiza kwita ku bihingwa byawe.

Umurima uhinzemo intoryi, akaba ari intoryi ubona ko zigeze mu gihe cyo gusarurwa. Intoryi ni nziza cyane, kubera ko umuntu waziriye, agira ubuzima bwiza kandi igogora rikagenda neza ndetse n'amaraso agatembera neza mu mubiri.

Ubusitani buteyeho indabo zakuze cyane ku buryo bugaragara neza. Ni byiza gukora ubusitani aho dutuye kubera ko aho dutuye hagaragara neza bityo akaba ari ahantu heza cyane.

Abantu bari mu murima, bakaba barimo buhira mu rwego kugira ngo ibihingwa bikomeze bikure neza. Akaba arimo kuhira amashu ndetse na beterave. Ni byiza kubungabunga ibihingwa tubyuhira, mu rwego rwo kugira ngo bikure neza.

Umuntu urimo kuyobora amazi mu murima we, mu rwego rwo kugira ngo yuhire yuhirira ibihingwa bye bityo bikure neza, ni byiza kuhira wuhirira ibihingwa byawe kubera ko nibwo ubona umusaruro mwiza.

Abasore batatu bari mu murima uhinzemo ibigori ndetse n'intoryi, barimo kuhira mu rwogo rwo kugira ngo intoryi zabo ndetse n'ibigori bikure neza, hanyuma bazasarure babone umusaruro mwiza ushimishije.

Umugabo urimo kuhira ibishyimbo mu rwego rwo kugira ngo bikure neza kubera ko yabihinze mu gihe k'izuba ni byiza gushyira amazi mu bihingwa byawe mu gihe uba uzi ko ari mu gihe k'izuba kubera ko bikomeza gukura neza nkuko bisanzwe.

Umubyeyi w'umumama uhagaze mu murima uhinzemo amashu, akaba arimo kuyuhira aseka cyane kubera ko ari amashu meza cyane yakuze neza kubera ukuntu yitabwaho neza. Ni byiza kwita ku bihingwa byawe.

Umubyeyi w'umumama uri kuhirira ibigori bye mu rwego kugira ngo bikure neza, ni byiza kuhirira ibihingwa byawe kubera ko iyo ubivomereye bikura neza ntabwo izuba ribihungabanya ngo byume.

Umugabo uri mu murima uhinzemo ibigori, akaba arimo kubyuhirira mu rwego rwo kugira ngo bikure neza, hanyuma azabone umusaruro mwiza ushimishije. Mu gihe wahinze ibihingwa byawe, mu gihe cy'izuba ni ngombwa ko ubyuhirira.

Umugabo urimo kuhira ibigori mu rwego rwo kugira ngo bikomeze gukura neza n'ubwo ari mu gihe cyizuba, ni byiza kwita ku bihingwa byawe cyane cyane mu gihe cy'izuba kubera ko izuba rishobora kubyangiza ubundi ukazabura inyungu.

Umubyeyi w'umumama urimo kuhirira ingemwe ze, mu rwego rwo kugira ngo zikure neza hanyuma abone umusaruro mwiza ushimishije. Kuhira ni ingenzi mu gihe wahinze ari mu gihe cy'izuba.

Umugabo uhagaze mu murima uhinzemo ibigori ndetse n'imboga, arimo kuhira mu rwego rwo kugira ngo izuba ritazica imboga ze ndetse n'ibigori, hanyuma bigakura nabi ubundi akabura umusaruro yifuza.

Umubyeyi w'umumama afite indobo mu ntoki arimo kuhira ibishyimbo, ni byiza kuhira ibihingwa byawe mu gihe wabihinze ari mu gihe cy'izuba kubera ko bikomeza gukura nkuko bisanzwe nubwo ari mu gihe cy'izuba.

Abantu barimo guhinga mu materasi y'indinganire, bakaba barimo kuyatunganya kugira ngo azahingwemo imyaka mu gihe cyagenwe ari uko yamaze guterana neza.

Igishanga gihinzemo imyaka itandukanye, higanjemo ibigori, ni byiza guhinga ibigori kubera ko ari ibihingwa ngangurarugo, hanyuma umuntu iyo yabihinze ari byinshi abona umusaruro mwiza ushimishije, akabona ibyo agaburira abana, ndetse agasagurira n'amasoko.

Igishanga gihinzemo umuceri, akaba ari umuceri urimo gukura neza utaragera mu gihe cyo gusarurwa, hakurya hari amazu menshi cyane ubona ko ari urusisiro, hepfo y'ayo mazu hakaba hari insina nyinshi.

Ikibaya gihinzemo ibihingwa bitandukanye, hakaba hari n'umusozi uteyeho ishyamba ndetse n'ingo z'abaturage, ni byiza guhinga ahantu hitaruye kubera ko ubona uko ukurikirana ibihingwa byawe.

Umurima uhinzemo ikahwa, akaba ari kahwa ubona ko zikiri ntoya zitarakura cyane, ni byiza kwita ku ikahwa zawe kuko zikura neza bityo zikaguha umusaruro mwiza ushimishije, hanyuma ukakirigita ifaranga.

Igishanga gihinzemo umuceri, hakurya yacyo hakaba hari intoki nyinshi cyane ndetse n'ishyamba, ruguru yabyo hakaba hari amazu menshi yubatse mu buryo bwiza bugezweho, amenshi muri yo asakaje amabati y'umutuku.

Inyubako isakaje amabati y'umutuku, ikaba iriho na anteni hejuru ituma babona rezo zo kureba amakuru atandukanye kuri tereviziyo ndetse n'imipira yo hanze. Iruhande rwayo hakaba hari imirima ihinzemo imyaka itandukanye, hateye n'ibiti bituma haboneka umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Amaterasi meza y'indinganire, akaba ari amaterasi ahinzemo ibihingwa by'amoko atandukanye, haruguru hari ingo z'abaturage, ni byiza gukora amaterasi kubera ko arwanya isuri kandi agira umusaruro.

Umwana mutoya uhagaze mu kayira kari hagati y'umurima uhinzemo ingano ndetse n'undi murima uhinzemo ingano ariko ufite ubwatsi ku ruhande, karimo kureba haruguru kitegereza urwererane.

Umurima uhinzemo insina iruhande rwaho hakaba hari ibiraro byororewemo amatungo, inyuma y'ibiraro by'amatungo hakaba hari ibiti byinshi cyane ubona ko hari ishyamba, ni byiza kororera ahantu hitaruye urugo kubera ko biroroha gukurikirana amatungo yawe ndetse no kubona ibyo kuyagaburira.

Igishanga gihinzemo ibirayi, akaba ari igishanga ubona ko gikoze mu buryo bwiza, hejuru hari amashanyarazi ajyana umuriro mu ngo z'abaturage.

Umurima uhinze w'indinganire, ukaba uteyeho ubwatsi bw'amatungo ku itarasi. Ni byiza gukora amaterasi y'indinganire kuko arwanya isuri.

Igishanga gihinzemo umuceri, umuceri akaba ari igihingwa gihingwa mu gishanga kubera ko uba ukeneye ahantu hari amazi menshi ahagije, hakurya y'igishanga hakaba hari amazu menshi ubona ko ari mu rusisiro.

Umurima uhinzemo insina, ubona ko zirimo gukura neza, iruhande rwazo hakaba hahinze ibiti bya gereveriya, hakurya hari imisozi ihinzeho ndetse ituyeho n'abantu.

Ahantu hahinze imyaka itandukanye, ubona ko hari ikibaya kiza cyane kirimo amazi ahagije, ku buryo igihe uhakorera ubuhinzi udashobora kugira impungenge zuko igihe izuba ryaba rivuye imyaka yawe ishobora kwangirika.

Ikibaya kirimo ubwatsi bwiza butoshye, hakurya yacyo hakaba hari amaterasi meza y'indinganire hakaba hari ipoto ry'amashanyarazi rishinzemo rijyana umuriro mu ngo zihegereye.

Ikibaya gihinzemo icyayi, akaba ari icyayi ubona kitabwaho neza cyane giconze neza kigeze mu gihe cyo gusarurwa, hakurya yacyo hakaba hari ishyamba rituma hataboneka isuri.

Amapariseri y'ibyayi, icyayi ni igihingwa ngengabukungu giteza imbere Igihugu ndetse n'abaturage muri rusange, kiraconze, kireze, kigeze igihe k'isarurwa.

Ahantu hahinze icyayi hari n'amaterasi y'indinganire ubona ko hasa neza cyane, hakurya yaho hari amazu menshi ubona ko ari mu rusisiro, hejuru hari ikirere kirimo igicu cyiganze ubona ko kiri buze gutanga imvura.

Abantu benshi bari mu murima, bakaba barimo gucukura bagenda bashyiramo imbuto mu myobo mu rwego rwo kugira ngo baze kugaruka inyuma bagenda bataba. Ni byiza guhinga ukoresheje uburyo bugezweho bwo gucukura imyobo kubera ko ukoresha imbuto nkeya kandi ugasarura umusaruro mwinshi ushimishije.

Abantu bafite ihene, bakaba barimo kuzitera inshinge, ni byiza gukingira amatungo kubera ko akura neza akagira ubuzima bwiza bityo akakubyarira inyungu.

Umugabo uhagaze imbere y'ihene, akaba arimo yitegereza areba neza niba zirimo gukura neza, ni byiza kwita ku matungo yawe kubera ko iyo uyakurikirana umunsi ku munsi iyo agize ikibazo urabimenya, bityo ukayakurikirana.

Inka ziri mu rupangu, akaba ari igipangu cyubatse mu buryo bwegeranye, ku buryo inka irimo idashobora guhindukira ngo irebe inyuma, ni byiza kubakira ibiraro amatungo yawe, mu rwego rwo kugira ngo atajya konera abaturage.

Inka iri mu kiraro, ikaba irimo kurisha mu kariro, ni byiza kubakira inka yawe akariro kubera ko biroroha kurya, uyigaburira ibyatsi ikabirya bitagiye binyanyagira ngo bigwe hasi.

Inyana y'umutavu iri mu ruhongore, akaba ari inyana nziza iteranye ubona ko yonyerezwa neza, ni byiza konyereza inyana yawe ikabona amata ahagije kuko aribwo ikura neza ifite ubuzima bwiza.

Umubyeyi w'umumama uri mu kiraro kirimo ihene, akaba arimo gufata ihene ye ayizirika amaguru mu rwego rwo kugira ngo itaza gutoroka ikava mu kiraro. Ni byiza kwita ku bworozi bwawe bugakura neza bityo ukabona inyungu.

Ihene iziritse ku giti, akaba ari ihene ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara. Ni byiza kuzirika itungo ryawe, mu rwego rwo kugira ngo ritagenda rikajya konera abaturage, hanyuma ugasanga barakurihishije.

Inkoko eshatu zirimo gutora zishakisha ibyo kurya, ebyiri ni umweru indi ijya gusa umutuku, ni byiza ko inkoko zitembera zigashakisha ibyo kurya mu gihe udafite ibyo kurya bihagije iwawe.

Umusore uhagaze iruhande rw'ikiraro k'inka, arimo kwitegereza areba inka ye ko irimo gukura neza kugira ngo niba ishonje ayongerere ubundi bwatsi kugira ngo itaza kwicwa n'inzara kandi inshingano ze ari ukuyitaho.

Ihene iziritse ku rugo rw'imiyenzi, akaba ari ihene ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, ni byiza korora ihene kubera ko ishobora kugukura mu bukene, bigatuma nawe utangira gukirigita ifaranga, reka twese tujye twihatira gushora amafaranga yacu mu bworozi.

Abantu babiri bahagaze imbere y'ikiraro cy'inka umwe ni umugabo undi ni umugore, mu kiraro harimo inka y'ikigina ubona ko ikiri ntoya, ni byiza korora kubera ko bishobora kuguteza imbere bigatuma uva mu bukene.

Abantu bahagaze imbere y'ibiraro by'inka, ubona ko bishimye bashimishijwe n'umushinga wabo, ni umugabo n'umugore ndetse n'umwana, bafite ibyatsi mu ntoki by'urubingo ubona ko bagiye kugaburira inka, mu mbuga hakaba hari n'inkoko ebyiri.

Inka nyinshi cyane ziri mu gipangu bakunda kuzishyiramo igihe barimo kuzibanguriza, akaba ari inka ubona zikuze z'imbyeyi. Ni byiza kubanguriza inka yawe kugira ngo ikubyarire, hanyuma ubone inyungu.

Umugabo urimo kugaburira inka akaba arimo gutema ubwatsi bw'urubingo kugira ngo inka bizorohere kuburya, ni byiza ko utema ubwatsi bwawe bw' urubingo mu gihe urimo kubugaburira inka kuko nibwo inka iburya neza.

Ingurube iryamye mu kiraro ubona ko ari ingurube ibwegetse ikaba igiye kubyara, ni byiza kororera mu kiraro kubera ko iyo bigeze mu gihe cyo kubyara biroroha no gukurikirana itungo ryawe.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe hagati yabo hakaba hari ihene, ni byiza kugurira ihene ahantu wizeye kubera ko uba wizeye neza ko ibyo waguze atari ibijurano ubundi ugataha wizeye neza ko icyo waguze wakiguze ugikuye kuri nyiracyo.

Inka iri mu kiraro, ikaba imaze kurya ubona ko yahaze. Ni byiza kugaburira itungo ryawe rikarya rigahaga kubera ko ni bwo rikura neza, ubundi nawe rikaguha inyungu ishimishije.

Ingurube iri mu muhanda. Akaba ari ingurube ubona ko ikuze, iruhande rwayo hateye insina, naho hepfo y'insina hakaba hari ikiraro ibamo. Ni byiza kororera mu biraro.

Inka iri mu kiraro iruhande rwayo hakaba haryamye umutavu, si byiza ko umutavu uba hamwe n'inka nini ahubwo ugomba kubakirwa uruhongore mu rwego rwo kugira ngo inka nini itazayikandagira.

Inzu yororerwamo inkoko akaba ari inkoko zisaga esheshatu, korora inkoko ni kimwe mu bintu bishobora guteza umworozi imbere kubera ko zororoka mu buryo bwihuse.

Umugabo uhagaze mu bworozi bwe bw'inkoko, afite inkoko mu ntoki, yishimiye uburyo inkoko ze zirimo gukura. Ni byiza gukora ubworozi bw'inkoko kubera ko bwororoka vuba.

Ikiraro cy'ingurube harimo ingurube nini cyane ndetse n'ibibwana yabwaguye ni byiza korora ingurube kubera ko ishobora kugukura mu bukene nawe mu gihe gitoya ugatangira kubona amafaranga.

Abantu benshi cyane bafite ingurube zikiri ntoya, ubona ko ari zo bagiye korora; ni byiza korora ingurube kubera ko zishobora kuguteza imbere, wari umukene nawe ukaba umukire. Ingurube iyo uyibangurije, bifata amezi atatu, ibyumweru bitatu n'iminsi itatu kugira ngo ibyare.

Inka iri mu kiraro, ikaba irimo kurya ibyo bayigaburiye. Ni ngombwa kugaburira itungo ryawe kugira ngo rigire ubuzima bwiza, hanyuma nawe rizakubyarire inyungu kandi ni byiza kororera mu kiraro.

Ingurube iri mu kiraro, akaba ari ingurube igeze mu mugihe cyiza cyo kwima. Ni byiza kororera mu kiraro, kubera ko ari bwo amatungo atanga umusaruro mwiza ushimishije, hanyuma wowe mworozi ukabona n'uko ukurikirana amatungo yawe.

Ingurube irimo kurya ibijumba, ikaba ihagaze iruhande rw'igiti. Ni byiza ko wirinda gushyira ibyo kurya ahantu ubonye hose, kubera ko amatungo yawe ashobora kuva mu kiraro bityo akakwangiriza.

Ihene eshatu ziziritse mu biti, si byiza kuzirika ihene mu biti kubera ko zishobora kwiboha hanyuma zigapfa, kandi si byiza kuzirika ihene ahantu hatari ibyatsi ku buryo zabasha gutora ibyo kurya.

Abantu batandukanye bahagaze imbere y'ibiraro byororerwamo inkwavu, buri wese afite urukwavu mu ntoki ubona ko ari inkwavu nziza zakuze, barishimye banejejwe n'uburyo umushinga wabo urimo kubyara inyungu, korora inkwavu ni byiza.

Ihene nyinshi ziri mu nzira, zose zikaba zizitse amaguru y'imbere mu rwego kugira ngo zitagenda zigatoroka. Aho ziri hazitije amabati. Ni byiza ko tworora ihene kubera ko zishobora guteza umuntu imbere nawe agakirigita ifaranga kandi yari umukene.

Inyana y'umutavu iri mu ruhongore, ikaba iziritse mu rwego rwo kugira ngo itaza gutoroka, ni byiza korora inka kubera ko ishobora gutuma uva mu bukene na we ukajya mu bandi bakire.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako. Ni umubyeyi w'umumama ndetse n'abana babiri b'abakobwa. Bafite ihene eshatu. Ihene nini ndetse n'utwana tubiri.

Imitiba y'amoko atandukanye, hakaba hari umutiba wa kizungu ukozwe mu buryo bw'isanduku ndetse n'umutiba uboshye mu buryo busanzwe bw'imbingo, ni byiza korora inzuki kubera ko zitanga ubuki.

Inyana y'umutavu iri mu ruhongore, akaba ari inyana nziza iteranye ubona ko yonka neza. Ni byiza kwita ku nyana yawe ukayonkereza neza ntuyime amata kubera ko ari bwo ikura neza, hanyuma wazayishyira ku isoko ukazabona amafaranga menshi agushimishije

Inka iri mu kiraro, ikaba ihagaze itegereje ko bayigaburira. Iruhande rwayo hakaba hari inkoko. Korora inka ni byiza cyane kubera ko itanga ifumbire ndetse igatanga n'umukamo hanyuma umuntu uyoroye ikamuteza imbere.

Inka nziza iri mu kiraro, ikaba irimo kurisha. Ikiraro irimo ntabwo kirimo isaso. Ni byiza gusasira inka yawe kubera ko iryama neza bityo ikagira ubuzima bwiza.

Umusore uhagaze mu kibanza, akaba afite inka y'umweru ifite n'ibara ry'umukara ku mutwe, hirya ye hakaba hari umwana wikoreye ijerekani, urimo kumanuka avuye kuvoma.

Ingurube iri mu kiraro, akaba ari ingurube ikiri ntoya itaragera igihe cyo kwima, korora ingurube ni byiza kubera ko yororoka vuba, igatanga inyungu mu gihe kitari kirekire.

Inkoko nyinshi ziri mu kiraro zibamo, akaba ari inkoko zitera amagi, ni byiza gukora umushinga w'inkoko kubera ko ushobora kuguteza imbere, ukabona amafaranga, ukabona amagi yo kurya ndetse ukanabona inyama zo kurya.

Inka iri mu kiraro akaba ari ikiraro cyubakishije ibiti, gishakaje ibikori. Ni byiza gusakarira inka yawe kubera ko izuba ritayica ndetse n'imvura yagwa ntiyinyagire bityo ikagira ubuzima bwiza.

Umuntu uri mu kiraro cy'inkoko, akaba arimo kuziha umuti mu rwego rwo kugira ngo zikomeze kugira ubuzima bwiza, ni byiza korora inkoko kubera ko zishobora kuguteza imbere mu gihe gito, ukabona amafaranga.

Inkoko ziri imbere y'inzu zikaba zirimo gutora zishakisha ibyo kurya, ni byiza korora inkoko ariko cyane cyane iyo uzororera mu nzu kubera ko umenya ubuzima bwazo bitakugoye.

Ikiraro kirimo ingurube akaba ari ikiraro cyubakishije ibiti, ni byiza gukora umushinga w'ubworozi kubera ko ni bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu yikura mu bukene bityo na we we agakirigita ifaranga.

Intama iziritse mu kinani ubona ko ari ahantu hari ibyatsi byumye, hepfo y'aho hari umurima uhinze ariko ku mukingo hariho ubwatsi bwiza bw'urubingo ubona ko bwakuze cyane, ni byiza guhinga ubwatsi bw'urubingo kuko burakura kandi butuma amatungo akura neza.

Ahantu hinarizwa ingemwe z'amoko atandukanye, harimo abantu barimo kuzuhira. Ni byiza kuhira wuhira ingemwe zawe kubera ko zikura neza ukizera neza imikurire yazo.

Umurima uhinzemo insenda, hakaba harimo isaso ryiza rihagije mu rwego kugira ngo igihe imvura yaguye cyangwa se buhiye amazi azajye afatamo ubundi zikomeze zikure neza zitohe.

Umurima uhinzemo ibishyimbo, akaba ari ibishyimbo bigufiya. Ni byiza guhinga ibishyimbo, warangiza ukabisasira kubera ko bikura neza, imvura yagwa amazi agatindamo, bityo bikaguha umusaruro mwiza ushimishije.

Umurima uhinzemo amashu mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari amashu arimo kuzamuka neza ubona yatangiye gupfundika. Ni byiza guhinga imboga z'amashu kubera ko zishobora kuguha amafaranga kandi ukabona n'ibyo kurya iwawe.

Umugabo urimo gukorera ingemwe z'amatunda, akaba arimo kuzitaho mu rwego kugira ngo zizajyanwe mu mirima guterwa ari uko zimeze neza cyane, zakuze mu buryo bukwiriye. Ni byiza kwinaza ingemwe zawe mbere, hanyuma ukazitaho neza, ukazijyana mu murima ari uko zakuze neza.

Ihema ryanitseho ibigori bitarahungurwa, ubona ko ari ibigori bikeya bishobora kuvamo nk'ibiro icumi, ni byiza kwanika ibigori byawe bikuma neza mbere y'uko ubihungura kuko iyo ubihunguye nibwo biba ari ibigori byiza cyane bishobora kuvamo imbuto.

Umurima uhinzemo imigozi y'ibijumba. Ni byiza guhinga ibijumba kubera ko umuntu ubifite bihagije iwe ntashobora guhura n'ikibazo cy'inzara ngo abure ibyo agaburira abana be.

Umurima ucukuyemo imyobo, ubona ko bagiye guhingamo imbuto, ni byiza guhinga mu buryo bwa kijyambere kubera ko bituma uhangira imbuto kandi ugasarura imbuto ukabona umusaruro mwiza.

Umugenda w'amazi uciye iruhande rw'imirima mu gishanga, akaba ari umugende urimo amazi ubona ko yererutse ashobora kwifashishwa mu gihe cyo kuhira, ni byiza kuhira imyaka kugira ngo ikure neza.

Abantu babiri bari mu kiraro cy'inka. Umwe arahagaze undi arasutamye. Usutamye arimo gukora ku icebe ry'inka agenda areba niba ifite amata. Naho uhagaze arimo kuyishisha agenda ayijijisha mu rwego rwo kugira ngo itamenya ibyo barimo kuyirebaho.

Abantu babiri barimo kwita ku nka, akaba ari inka yari irimo kubyara hanyuma yananirwa kubyara bikarangira bayibaze, inka nayo ni nk'umuntu iyo kubyara byanze umuveterineri arayibaga kugira ngo akuremo inyana.

Umuntu uri mu kiraro cy'inka akaba ayifashe mu rwego kugira ngo umuganga w'amatungo abone uko ayitera urushinge, hanyuma ikomeze kugira ubuzima bwiza ubundi izatange umukamo mwiza.

Umugabo wambaye ingofero ndetse n'isarubeti hamwe na bote, afashe umutwe w'iyi nka arimo kuyasamura umunwa, mu rwego rwo kugira ngo ayihe umuti, hanyuma ikomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri bari mu ruhongore, bakaba barimo kuvura umutavu, ni byiza kwita ku nka ikiri ntoya kubera ko ikurana ubuzima bwiza hanyuma igakura neza.

Inka yaramburuye, akaba ari inka ubona ko yari itaragera mu gihe cyo kwima. Ni byiza kwita ku matungo yawe hakiri kare kubera ko iyo utinze kuyitaho agafatwa n'indwara, ashobora kuramburura bityo ugahomba.

Inka baziritse ku giti, hakaba hari umuganga w'amatungo urimo kuyikora mu kibuno mu rwego kugira ngo abone uko ayitera inanga. Ni byiza kubanguriza inka yawe, ukoresheje uburyo bw'inanga.

Ishyo ry'inka akaba ari inka nziza cyane ubona ko zitabwaho cyane, ni byiza gukora umushinga wo korora inka kubera ko ari kimwe mu bintu bishobora guteza umuntu imbere akabona amafaranga menshi cyane ashimishije.

Umugabo uri mu kiraro cy'inka, akaba afashe inka yayizamuye umunwa yawasamuye, arimo gushyiramo umuti mu rwego rwo kugira ngo inka ayikingire bityo igire ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye isarubeti ndetse na bote z'umweru, arimo gutambuka mu muhanda asatira inka ziri gutambuka zijya mu isambu, mu rwego rwo kugira ngo azicunge zitajya konera abaturage.

Umuntu wambaye ishashi ku kuboko, akaba arimo gukora mu kibuno cy'inka, mu rwego rwo kugira ngo abone uko ayivura. Ni byiza kuvura amatungo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Inka nyinshi cyane ziri mu gipangu, akaba ari inka ubona ko ziri mu ngeri zitandukanye. Harimo umusore uhetse ipombo mu mugongo bifashisha mu gihe bari gutera umuti, bigaragara ko barimo kuzitera umuti uzirinda isazi.

Abantu benshi bahagaze imbere y'ibiraro by'inka, akaba ari inka nziza cyane ubona ko zakuze neza zitabwaho mu buryo bukwiriye; ni abantu biganjemo igitsina gore, iruhande rwabo hakaba hari ikigega kivomwamo amazi yo kugaburira inka.

Umuntu uri mu kiraro cy'inkoko, akaba arimo kuzireba areba niba zirimo gukura neza ndetse aziha umuti hamwe n'amazi, mu rwego rwo kugira ngo zikomeze zigire ubuzima bwiza bityo zizamuhe umusaruro ushimishije.

Abantu baje gukingiza inka hari umugabo wambaye isarubeti igaragaza umurimo ashinzwe, akaba arimo gukingira inka mu rwego rwo kugira ngo igire ubuzima bwiza.

Inkende ihagaze imbere y'umugabo, ikaba yahagurutse yazamuye ukuboko ishaka kumushikuza ibyo afite. Si byiza kwegera inkende igihe hari ikintu ufite mu ntoki cyo kurya kubera ko yahita ikikwaka.

Imbwa ifite amatwi maremare, ikaba ifite mu maso hateranye ubona ko yitabwaho ikagaburirwa neza, ni byiza kwita ku mbwa kubera ko ari kimwe n'andi matungo kandi ziturindira urugo.

Inyoni iri mu giti. Ikaba irimo guhindukira ireba mu mugongo wayo, ni nini ifite amabara y'ubururu, umukara, ndetse n'icyatsi. Ihagaze mu ishyamba ririmo ibiti bya gakondo.

Inyamaswa imeze nk'ingagi, ikaba ifite amaso y'umutuku, ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Irimo kureba mu buryo buteye ubwoba ku buryo uramutse uhegereye ushobora gutinya ukiruka.

Ingagi iri mu giti, ikaba yazamuye akaguru kayo igashyira ku munwa wayo, ni byiza kubungabunga inyamaswa, kubera ko nazo zifite ubuzima nk'ubw'abantu. Kandi ni byiza gucunga umutekano wazo.

Inkende irimo kurya umuneke, ikaba ihagaze mu giti. Inkende ni inyamaswa ikunda kurya imineke cyane kubera ko ahantu hose igeze hari imineke ntabwo ishobora kuharenga. Ni byiza ko wirinda kunyura ahantu hari inkende mu gihe ufite imineke.

Igisiga cy'icyiyoni gihagaze ku giti. Akaba ari mu ishyamba. Ni igisiga ubona ko gikuze kigeze mu zabukuru. Gifite amabara y'umweru mu gatuza, ahandi hose ni umukara. Ni byiza ko ibisiga biba mu ishyamba.

Agasumbashyamba karimo gutembera muri parike. Akaba ari inyamaswa igira ijosi rirerire cyane ndetse n'amaguru maremare, ku buryo ifite ubushobozi bwo kuba yarisha hejuru y'igiti.

Ikiraro cyo mu kirere gihagazeho abantu batatu ubona ko ari ba mukerarugendo, ni byiza ko ahantu hari imisozi ibiri iteganye kandi yegeranye hifashishwa ikiraro cyo mu kirere kugira ngo horoshwe urugendo.

Igikeri kiri mu bihuru, ni byiza kwirinda kujya ahantu hari ibikeri kubera ko iyo kigutarukiye kikakuruma ushobora gupfa, hanyuma ugasanga utakaje ubuzima bwawe mu bintu utari uzi cyangwa utari witeze.

Igisiga kiri kuguruka mu kirere, ni icyiyoni, gifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, kimeze nk'indege, abantu bakoze indege bayikoze bagendeye ku gisiga kubera ko uburyo kiguruka niko indege iba imeze mu kirere.

Inyoni iri mu giti, ikaba ifite umunwa muremure, amaso y'umukara, amabara y'ubururu, icyatsi, umuhondo, umutuku ndetse n'umukara. Inyoni ni nziza cyane kuko ziraririmba mu gitondo.

Impala ebyiri ziri mu ishyamba, zikaba zirimo kurebana, zihagaze mu ishyamba ririmo ibyatsi byumye, ubona ko ari mu gihe cy'amapfa, zikaba zashobewe ziri kwibaza icyo ziri burye.